Abana batoya bafatanye mu biganza, harimo n'undi muntu mukuru bisa n'aho ari abana b'abanyeshuri, nubwo bose batambaye impuzankano y'ishuri ariko bari ahantu mu kibuga, hirya yabo hari idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, hakikijwe n'isina ndetse bigaragara ko aba bana baje guhugurwa.

Umupira ubanze mu mashashi, kera bitaga karere abana bakunda kwifashisha bakiri bato badafite ubushobozi bwo kugura, imipira ya kijyambere izwi nka baro, uteretse ahantu ku buryo bigaragara ko ari umupira umwana yabanza kugirango abashe kujya yidagadura awukina.

Inzu y'ibitabo ibi bizwi nka Library mu ndimi z'amahanga, bipanze mu buryo bwiza ahantu bigaragara ko ari nko ku ishuri cyangwa ahandi hantu habikwa ibitabo abantu bifashisha biga cyangwa basoma ibintu bigiye bitandukanye by'ubushakashatsi.

Abanyeshuri barimo kugenda mu muhanda w'amabuye bagendera mu nzira yagenewe abagenzi, umwe arimo agendera mu muhanda mo hagati, ukaba ari umuhanda ukikijwe n'ibiti uruhande, urundi ruhande na ho hari jaride ndetse hejuru hari ibiti bitwara umuriro w'amashanyarazi biwugeza mu ngo z'abaturage.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki n'amajipo ku bakobwa, bicaye munsi y'igiti mu mbuga y'ikigo, imbere yabo hari umugabo ufite indangururamajwi urimo kubagezaho ijambo cyangwa imyanzuro runaka y'inama bari barakoze.

Ikigo cy'amashuri cyitwa EAR Kageyo TVT school, ni ikigo cy'itorero EAR kiri kugaragaza amarembo yacyo, iruhande rw'amarembo hariho icyapa kigaragaza amasomo atangirwa muri icyo kigo.

Ikigo gisa n'ikigo cy'amashuri kuko cyubatse nk'uko amashuri aba yubatse, imbere hariho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda riri mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, hari ubusitani bwiza, indabyo ndetse n'ibiti byo kugamamo izuba.

Mudasobwa, telefone hamwe n'indi mashini ikoreshwa basohora impapuro yitwa printer, biteretse ku meza yose bigaragara ko bishobora kuba ari nko mu biro by'umukozi runaka wa Leta cyangwa uwikorera, ufasha abantu muri serivisi zitandukanye z'ikoranabuhanga.

Icyapa gishinze ahantu hateye ibiti ndetse n'indabyo zitandukanye, cyanditseho amagambo ngo: ''Universiy Club,'' bisobanura ko ari aho itsinda rya kaminuza rihurira, ibizwi nka karabu ziba ku bigo by'amashuri.

Icyapa cya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda kigaragaza uruhande ruherereyeho ubuyobozi n'aho buba buri bigendanye n'amasomo atangirwa muri icyo kigo, hari umuhanda imbere y'icyo cyapa n'ubusitani hirya yacyo ndetse n'amazu agiye atandukanye akikije ikigo.

Icyumba kimeze nk'icyumba abanyeshuri bararamo ku ishuri ibizwi nka dortoir kiriho matelas zigerekeranye kuko uba usanga umwe aryama hasi n'undi aryama hejuru.